Muri gare ya Nyabugogo amatara bayacanye bigaragara ko bwije, abantu baracyari muri gare amamodoka ntabwo ari menshi cyane bigaragara ko aba bantu bashobora kuba babuze imodoka zibacyura ndetse ku ruhande hariho na bisi nini itwara abaturage.

Aha tukaba turi kubona umuntu uri kwerekana uko wakoresha telefone yawe mu kubitsa no kubikuza amafaranga kuri banki, yaba mu madolari cyangwa mu banyarwanda.

Minisitiri w'intebe w'u Rwanda wabanjirije uriho ubu ngubu, uyu mugabo yitwa Anastase Murekezi akaba yambaye ikoti y'umukara ndetse n'ishati y'umweru n'amadarubindi.

Aha turi kuhabona amandazi meza asa neza, menshi cyane ari mu gasahane kagaragara hakaba harimo rimwe ryakaswemo kabiri.

Aha hakaba hagaragara umugore n'umugabo bari mu iduka rigaragara nkaho bari mu bucuruzi rikaba risize mu mabara y'ubururu.

Iki ni icyapa cya emutiyene kiri kwamamaza hakaba hari kugaragara umugore n'umugabo bishimye basa nk'abatunguwe bari kureba muri telefoni.

Uru ni urupapuro rwa banki rwa jiti banki harimo kugaragaza amafaranga y'umukiriya wabo witwa Rutayisire Didier Eric rukaba rwarakozwe ku itariki makumyabiri nenye z'ukwa cumi.

Iyi foto iragaragaza umuntu ufashe amadorari mirongo itanu imbere ye hakaba hari umugore uri kumuha ikintu cyamufasha kubara aya mafaranga, hirya ye hakaba hari n'andi mafaranga menshi.

Aha ni ku biro bishinzwe kuvugisha amafaranga, hakaba harimo umugabo w'umuzungu hakaba harimo amagambo manini yanditswe mu ibara ry'umweru.

Imbere yanjye ndahabona umuryango ufunguye usize irangi ry'umuhondo hejuru yaho handitseho wesitani uniyoni, harimo abantu benshi bari kuhagana binjira bashaka serivisi za wesitani yuniyoni.

Ubu ni ubwoko bw'intebe umuntu yakicaraho bukozwe mu mbaho bukaba risizwe irangi rikaba riteretse hasi hakaba hari n'izindi mbaho ziri hirya no hino zikozwe muri ubwo bwoko.

Aha turi kubona abakobwa batatu, babiri bambaye imipira y'umuhondo, n'undi mukobwa umwe wambaye umupira w'ubururu bakaba bishimye cyane banafatanye.

Hano hari inzu ikodeshwa amadorari magana atanu mirongo itanu ku kwezi, ikaba iherereye Kabeza, i Kigali, hano muri ino foto tukaba turi kubona igikoni, n'ibindi bikoresho bikoreshwa.

Aha akaba ari itangazo riri kwamamaza ryerekana ko hari inzu iri i Kanombe igurishwa ku mafaranga miliyoni mirongo ikenda n'eshanu gusa.